Abantu bagize inteko nini bicaye mu cyumba cy'inama, bari kunywa amazi y'inyange ndetse na ji z'inyange, bari mu nama harimo abagabo n'abagore abakuze ndetse n'abakiri bato, hari ibyo bari kuvugaho bashobora kuba bari mu nama mu cyumba cy'inama.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama, inama ikaba irimo abagore, abagabo, abagore bakiri bato, bambaye amarinete, bari kunywa n'amazi y'Inyange ari mu ducupa tw'ibirahuri.

Icyumba kinini kisanzuye kiri kuberamo inama, iyo nama ikaba irimo abagabo, abagore bakuze ndetse n'abakiri bato bakaba bari kunywa amazi ya nile, amazi ya nile.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama, iyo nama irimo abagabo, abagore bakiri bato ndetse n'abagabo bakuze.

Icyumba kinini cyane kiri kuberamo inama, muri iyo nama hakaba harimo abanyafurika ndetse n'abazungu bari kunywa amazi y'inyange, icyumba kinini cyane kiri kuberamo inama.

Sale nini iteraniyemo abantu benshi harimo abakuze n'abakiri bato, aba mama, n'aba papa bari mu nama ikindi kandi na none bari kunywa amazi y'inyange.

Umunara muremure w'itumanaho mu Rwanda rya eyateri, umunara muremure ufasha abaturarwanda gukonekitinga cyangwa se kuyihuza n'iyindi mirongo.

Umunara ushinzwe gutanga interinete netiwaka, netiwaka mu baturage ugiye uriho insinga zitandukanye ni umunara muremure cyane muremure cyane rwose bishoboka.

Ikigo gishinze imisoro n'amahoro mu Rwanda, kiri kugaragaza amatariki ntarengwa yo kwishyuriraho, itariki ya mbere ni cumi n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kabiri, iya kabiri tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe, indi mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe.

Ikigo gishinzwe kwita ku mashyamba mu Rwanda, amashyamba, amazi, insina, icyumba kinini kiri kuberamo inama n'uyiyoboye.

Ibiti biri ku muhanda byegeranye n'amatara yo ku muhanda, ibiti byiza cyane byegeranye n'ishyamba riri ku muhanda, hari n'amatara yaka buri gihe aba ari ku muhanda.

Inzu iri ahantu mu kibanza kinini kisanzuye ndetse cyitaruye, inzu zegeranye zubakishijwe amatafari ahiye, hari ubusitani bwiza, ibiti.

Ku Bitaro hari abarwayi, ni kwa muganga hari abarwayi batandukanye, abana, abamama, abagabo, abagore ndetse n'abaganga. Ni inzu yubatse neza yubakishijwe amatafari isize irangi ry'umuhondo inasakaye.

Gereza ya Muhanga. Gereza ya Muhanga yubatswe igihumbi kimwe na magana acyenda na mirongo irindwi na gatatu, ikaba iri ahantu hubatse neza n'amabuye y'umweru, hasize irangi ry'umweru ndetse n'umukara. Gereza ya Muhanga iri ahantu hubatse amapave ndetse n'amatafari.

Itegeko ryahinduwe kuri ebyiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani, nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu cyane mu Rwanda, kuri enye z'ukwa kane bibiri na gatatu nk'uko bikenewe cyane mu ngingo zaryo, irya mirongo itandatu na kabiri, irya mirongo itandatu na karindwi.

Gereza ya Nyanza, gereza ya Nyanza iri ahantu hari ibiti byinshi mu ishyamba, hari geti, ndetse n'ibiti byiza, ni mu ishyamba.

Sitoke ibikwamo ibikarito byinshi cyane, Sitoke ibikwamo ibikarito byinshi, ibyo bikarito biba byanditseho intara, umujyi wa Kigali, akarere, umurenge w'ubuyobozi, inama rusange ndetse n'urukiko, urukiko gacaca.

Imodoka ya polisi y'u Rwanda ishinzwe kugenzura nimba mu muhanda hari amahoro, ndetse nta ambutiyaje zirimo, imodoka ya polisi y'u Rwanda, imodoka ya polisi y'u Rwanda, ishinzwe kugenzura nimba hari umutekano mu muhanda.

Imodoka ya Polisi y'u Rwanda ishinzwe kureba ko mu muhanda, kugenzurwa ko mu muhanda nta kajagari karimo, cyangwa se ambutiyaje, ikaba iri hafi y'icyapa cyerekana inzira yerekeza ku mupaka wa Gatuna ndetse n'inzira yerekeza Siti senta ndetse n'inzira yerekeza i Muhanga-Musanze.

Ikirangantego kiriho umuntu ufashe isaka kitwa ubutabera, ubwisungane, ndetse n'amajyambere.

Amazu yubatswe mu Mujyi wa Kigali, harimo Makuza peace plazza ndetse hakabamo na City tower, ikirangantego kigaragaza amazu yubatswe mu Mujyi wa Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'igikamyo y'ubwoko bwa howo, ikamyo itwara esanse, hafi y'umuhanda wa kaburimbo hari ibiti ndetse n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto, moto yicayeho umumotari, muri iyo kaburimbo hakaba hari igice cy'abanyamaguru bambukiraho iyo kaburimbo ikaba ikikijwe n'ibiti, amatara ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye: moto, imodoka, moto ziriho abagenzi, imodoka, ruguru y'aho hari gare irimo imodoka nyinshi, harimo n'izitwa shira umuteto.

Inzu iri hafi ya kaburimbo harimo kampani icuruza imiti y'amatungo yitwa Kigali rabiti senta, hari imodoka ndetse ni hafi ya kaburimbo hafi aho hari kugenda abantu ni ku nzu ya etage.

Imodoka y'igikamyo, ifite igife ikontineri inyuma cyanditseho matare limitedi, iki gikamyo kikaba cy'ifashishwa hanini mu bwubatsi kiri gusya karabasasi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo igikamyo gitwara imicanga, hafi ya kaburimbo hari ibiti birebire byiza cyane muri uwo muhanda hakaba harimo n'abagenzi bari kugenda n'amaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa shira umuteto. Ijyamo abantu benshi cyane, haba harimo abicaye ndetse n'abagaze. Hari icyuma bakozaho ikarita ijyaho amafaranga y'urugendo.

Imodoka y'igikamyo iri muri kaburimbo, ikorera kampani yitwa Uruvange, Uruvange akaba ari ikinyobwa gikoze mu bitoki, umutobe ukozwe mu bitoki, ku muhanda wa kaburimbo hariho ibiti birebire byiza cyane.

Ku muhanda wa kaburimbo muri karimbo harimo abanyonzi n'imodoka nini itwara abagenzi yitwa jagwari nande ya kaburimbo hakaba hari ibiti binini byiza byiruhande rwa kaburimbo.

Igikamyo kiri mu bwoko bwa hoho cyikoreye imicanga, kiri kugenda muri kaburimbo imbere yacyo hari ikindi gikamyo cy'ubururu ,impande y'ibyo bikamyo ndetse n'iyo kaburimbo hari ibiti birebire byiza cyane.

Mu muhanda, mu muhanda wa kaburimbo, haririmo imodoka, harimo abamotari, harimo amagare, harimo n'ibiti byiza rwose, ahantu hari amahumbezi ni ahantu heza cyane.

Ku muhanda wa kaburimbo, hari imodoka y'igikamyo cya kampani yitwa esipe gaze, igikamyo kikaba gitwaye amacupa ya gaze, ni ahantu ku muhanda hari ibiti byinshi.

Muri gare haparitsemo imodoka itegereje kujyamo abagenzi, undi ikerekeza aha igomba kujya. Hirya y'imodoka hari indi modoka ya kampani yitwa enterinasiyonali.

Ikibanza kinini cyisanzuye, kirimo ubwatsi bwinshi bwiza, harimo ibiti, hafi aho hari amazu, ibiti, byatsi, ubusitani.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukirira, icyapa kigaragaza nimero y'umuhanda, irembo abantu bakora ibintu by'irembo, foto kopi, bacuruza n'ibintu bijyanye Eyateri.

Step apartment ni inzu ibiri ahantu ku muhanda ahantu heza kuri kaburimbo hagiye harimo ibiti ni inzu ya etage umuntu ashobora kubamo agafatiramo ikiruhuko yaba igihe cy'ukwezi igihe cy'umwaka umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe.

Inzu iri ahantu ku muhanda, inzu ya etaje iri ahantu ku muhanda, ahantu heza hakikijwe n'ibiti iri no kuri kaburimbo, ikaba ifite amabati y'umutuku isize irangi rijya gusa icyatsi.

Umujyi wa Kigali ahazwi nka Kimironko, amazu meza, ibiti, ibyatsi, amazu meza cyane agiye ari ku muhanda mu bipangu.

Inzu iri ahantu ku muhanda ya etaje, imbere y'iyo nzu hari ibiti, hari amavaze, hari n'ubusitani ndetse hari n'imodoka y'umweru.

Inzu nini igeretse kabiri, ya etaje, ikorerwamo ubucuruzi, iri ku muhanda, hari kunyuraho abantu, hejuru yayo hari insinga z'umuriro.

Inyubako nziza cyane iri mu gipangu, igipangu kikaba kirimo imodoka, igipangu cyubatse neza, kirimo amapave, amakaro, inzu igeretse.

Ku mugoroba buri kwira umuhanda wa kaburimbo, kaburimbo irimo imodoka ndetse n'amoto, amatara yo ku muhanda nayo aracanye, hari ibiti birebire byiza cyane n'amashyamba.

Ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, harimo imodoka y'ikamyo ndetse na moto, hakaba hari n'umunara ndetse n'amapota ariho insinga z'umuriro.

Kuri kaburimbo ahantu hari umuhanda mwiza hakikijwe n'ibiti, jaride, ubusitani, ibintu bigiye bitandukanye, ni ku muhanda wa kaburimbo ahantu hari ibiti byiza.

Kaburimbo, ni muri kaburimbo ku muhanda ndetse harimo n'uturongo tw'abanyamaguru baba bagomba kwambukiramo, ni ku muhanda KN cumi na kane ave hari n'ubusitani ndetse n'ibiti.

Ku muhanda wa kaburimbo harimo imodoka, harimo ibiti, ubusitani, indabyo ndetse harimo n'abantu hariho n'ahantu ho kwambukira h'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo kuri feu rouge, hagiye hari ibyapa bitandukanye byereka ibinyabiziga, imodoka ndetse na moto ko bigomba kugenda ndetse n'abanyamaguru uko bagomba kwambuka hagendewe ku minota...

Ni ku mugoroba ku muhanda wa kaburimbo, harimo moto n'imodoka, ubundi ukaba ukikijwe n'ibiti, byatsi ndetse na pasiparume.